Siporo nshya yamaze kugera mu Rwanda yitwa yoga, uyu mukobwa uri kuyikora yicaye hasi ni ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yambaye n'agasengeri arangije afata ibiganza bye abishyira ku mavi, afata urutoki rwa mukubitarukoko n'igikumwe arabihuza.

Geti lifu inshuwarensi ni ikigo gitanga ubwishingizi ku bantu babyifuza, aho wishingira ubuzima bwawe ndetse n'abawe, ibingibi bikorwa hishyurwa amadolari y'amanyamerika icumi buri kwezi.

Mu cyapa cy'umukara cyanditsemo amagambo y'icyongereza, hari amagambo nshobora kuba nashyira mu kinyarwanda, aho bagira bati "ohereza amafaranga. Ohereza nimero yawe ya ekwiti".

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Igikapu kimenyerewe ku bagore, biragaragara ko uwakiguze yagihahiye muri goludeni fashoni shopu, iri akaba ari iduka ritunganya ibikapu n'imyenda y'abagore.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Iduka ricuruza imyenda imyinshi biragaragara ko ari amapantaro yiganjemo ay'abagabo, hirya y'aho hariho imipira izwi ku mazina ya lakosite iy'ubururu, iy'umutuku, iya kaki n'indi myinshi.

Imodoka nto ariko igaragara nkisa neza amapine ane, ifite ibirahuri bisa naho bitijimye cyane, ariko kandi ikaba ishobora kugenda ibirometero byinshi, yanyoye lisansi nkeya, iyi ngiyi ni yo navuga ko igezweho.

Imodoka ebyiri ziparitse muri parikingi ikoreshejwe amapave, menshi cyane. Izi modoka zombi ziracyafite ibyapa bigaragaza ko aribwo zikiva mu nganda. Amakuru ahari, ni uko ziri ku isoko. Kandi zikaba zigurishwa, ku giciro gito.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka idafite ibirahuri byijimye, umugabo umwe yambaye ipantaro y'umweru mugihe undi yambaye ipantaro ijya gusa n'ivu, imipira yabo ntabwo isa, umwe yambaye umupira w'umweru undi akaba yampawe umupira ujya kuba amaraso.

Imodoka nto yo kugendamo irasa neza mu mabara y'umweru, ibirahuri bijya kwijima ariko bitijimye cyane. Iraparitse iragaragara nkaho itari kugenda gusa igaragara ko aribwo ikiva mu ruganda.

Icupa ryamazi ya nili riteretse ku meza yikirahuri iruhande rwaho hari impapuro zisa n'izahoze mu gatabo ka hobe aka kari gatabo k'abana gusa habaga harimo n'inkuru z'abantu bakuru.

Umugabo uhetse igikapu yambaye ingofero y'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse uramureba ukubona ko afite ibizigira, hirya ye hari umugore wambaye ipataro y'umweru ndetse na we yambaye agapira k'amaboko magufi, anafite umusatsi mwinshi, bose bikegeye umuntu bashakaho serivisi z'amafaranga.

Niba mu myaka yatambutse umuntu yarashoboraga kumara igihe kirenga amasaha atanu, abara amafaranga menshi bitewe n'uko bisaba ubwitonzi cyane, ubu haje ibyuma bifasha abantu kuyabara ku buryo ushyiramo kikaguha imibare mu buryo bwihuse.

Mu iduka rito hacururizwamo ibisukika birimo fanta, imitobe ndetse n'inzoga, ibi byose bicuruzwa biri mu kabati, iruhande rw'akameza winjiriraho hari intebe y'ubururu.

Iduka rito, ricuruza ibinyobwa bidasembuye, birimo amata, amaji, ndetse n'amafanta. Muri ayo mafanta ahari, twafuga izirimo ka mirinda, hakaza izitwa fanta oranje.

Itireyi ebyiri z'amagi zigerekeranye gusa imwe ni yo iriho amagi, amagi icumi abiri ku murongo utambika n'atanu ku murongo umanuka, munsi y'ayo matireyi yombi harimo ihema ry'ubururu, kuri iryo hema harimo utubara tw'umweru.

Telefone irimo amabara menshi y'umuyoboro w'itumanaho wa emutiyeni. Yanditseho igira iti yelo Joseph. Munsi yaho gato ifashwe n'ikiganza, gusa icyo kiganza na cyo kiri mu ibara ry'umuhondo.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, yahawe simako igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa cyenda bishyuye amafaranga y'isuku, ibi bikaba bikorwa kugira ngo umujyi ukomeze gusa neza.

Inyemezabwishyu yahawe uruganda rwa sima ariko igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa cumi, iyi kompanyi yishyuye amafaranga y'isuku kugira ngo umujyi ukomeze gusa neza.

Batamuriza Hajira afite icyangombwa yahawe yemerewe gukoresha. Gusa ni icyangombwa gikoreshwa mu buryo bw'ihinduranyamutungo. Iki cyangombwa ntigishobora kurenza amezi atatu. Iyo amezi arenze ntikiba kigifite agaciro.

Icyemezo kigaragaza ko utarimo umwenda w'imisoro, kiri mu mazina y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kiragaragaza ko uyu muntu yishyuye umwenda w'imisoro yose, igashyiramo ndetse yemerewe gukora ntashiti.

Abacunga mutungo mu mabanki atandukanye yaba ayikorera ndetse n'aya leta usanga bafite inshingano zo kumenya ibyasohotse n'ibyinjiye, ku buryo buri kimwe cyose kibikwa mu mwanya wacyo, iyo ibi bitabayeho niho usanga umukontabure cyangwa se ushinzwe umutungo ashobora gutabwa muri yombi bitewe n'amakosa atuma ikigo kigwa mu gihombo.

Ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyahaye kompanyi yitwa saniti bakari icyangombwa cyerekana ko bishyuye amafaranga y'isuku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa gatandatu ubu.

Icyapa kigaragaza ibihugu bitandukanye, harimo Ositereliya, Burezile, Canada, Ubusuwisi, Ubushinwa, Danimarike, Yunayitedi Kingidomu, Hongu kongo, Ubuhinde, Ubuyapani, Koreya na Megizike.

Umugabo wishimye cyane, afite inoti mu ntoki, agerageza gufata intoki ebyiri, yaba mukubitarukoko namusumbazose, akaba arizo zifata amafaranga, ikindi kiganza kirakonje, ariko igikumwe kirasa n'ikirambuye.

Mu mvugo z'amarenga abenshi mu Rwanda usanga inoti ya bitanu bayita inyama, gusa mu gihugu cya Tanzaniya nubwo amafaranga atanganya agaciro bitewe nuko ho abarwa mu mashiriningi, usanga na bo inote yabo ijya gusan n'iy'u Rwanda.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Ikiganza gifite inoti zigera kuri esheshatu, harimo umugabo wambaye amataratara mu ifoto y'iyo noti. Iyi noti ya magana atanu gusa birashoboka ko atari amafaranga, ahubwo ishobora kuba ari amadorari, cyangwa se amashiringi.

Mu gihugu cya Congo uhasanga amafaranga y'ubwoko butandukanye, aho usanga abafite inoti y'ibihumbi icumi, abafite inoti y'ibihumbi makumyabiri, izi zose zikaba ari inoti zikoreshwa nta kabuza iyo uri mu gihugu cyabo.

Ahenshi ku isi usanga gukoresha amafaranga y'inoti n'ibiceri byaracitse, gusa hari ubwo usanga abakoresha inoti batazi ko habanje ibiceri bikozwe n'Abanyamisiri, gusa kuri ubu ibi na byo ubona ko bigenda bikendera bitewe nuko amafaranga akoresheje ikoranabuhanga agenda aganza.

Ibiganza bibiri, bigaragara nk'ibiri guhererekanya n'ikiganza kimwe amafaranga. Munsi hari ibisa n'ibimurika, nubwo atari amatara. Kusa bishobora kuba biri gukura urumuri ku matara ari hejuru yabyo.

Inoti nyinshi gusa ibiganza bibiri biragaragara ko bifite amafaranga amwe. Ugiye kwegereranya n' ari hasi uraza gusanga ntaho bihuriye, kuko inoti ziri munsi y'ibiganza zinyanyagiye cyane kuruta inote zibumbatiwe mu kiganza.

Icyapa cya manigaramu kiri mu mabara y'umutuku n'umweru harimo n'amabara y'umukara, muri icyo cyapa kandi harimo amabendera ya leta zunze ubumwe za merika, ubwongereza, ububiligi n'ahandi.

Ku biro by'ivunjishafaranga hari icyapa kinini, cyane kigaragaza ibikorwa bihakorerwa. Hari na nimero, ku buryo ukeneye serivise batanga, ubahamagara ku icyenda icyenda, kane gatanu icyenda, kabiri zeru, batatu umunani gatatu.

Umugabo wambaye ikoboyi y'umukara ufashe mu mifuka n'agapira kajya kuba icyatsi kijimye, ahetse igikapu ari kwerekeza ku biro, by'ikigo cy'igihugu cy'ivunjisha. Ashobora kugerayo agahabwa serivisi nziza, nk'uko mu Rwanda byamaze kuba umuco.

Umuntu wijimye uri munsi y'icyapa, cyanditseho amagambo asobanura ngo ibiro by'ivunjisha, aha niho bavungishiriza amafaranga, munsi ye gato haragaragara igisa na ekara kandi na we akaba agaragara nk'uje gushaka serivisi.

Intebe z'imifariso zikozwe mu buryo bwa kijyambere buri ntebe ikaba ifite akandi gafariso gato kayirambitseho, aho uwicara ashobora kuza akaba yanagafata mu ntoki, hirya ku rukuta hariho kizimyamoto ebyiri zishobora kwifashishwa mu gihe inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro.

Onurayini shopingi puratifomu ni ahantu ushobora kuba wakoresha ugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni apurikasiyo ushyira muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe ukajya uhaha wibereye mu rugo.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Abakora ibikoresho by'ubukorikori bibanda cyane ku ntebe n'ameza, kuko byagaragaye ko ari bimwe mu bikoresho bitajya bipfa kubura isoko, magingo aya ngaya uretse kuba byarakorwaga nta bundi buhanga burimo, ubu ngubu hari amashuri abyigisha ku buryo umwana asohoka azi neza icyo agiye gukora.

Ubusitani bwa hoteri, buri inyuma gato y'uruzitiro, burimo intebe z'umukara zifite amaguru ane, akameza gafite amaguru ane, hejuru yako kameza harasa n'ivu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo abamotari babiri n'umuyonzi umwe, bose bafite abagenzi, hirya hari ibikamyo bigiye bitandukanye, hejuru yaho hari ibiti bihari, hirya yaho hari inyubako ifite amabara y'ubururu bwijimye.

Mu nyubako za kijyambere zaba izo guturamo, amacumbi, ibyumba by'inama, biragoye ko ushobora kugeramo ngo utahasanga intebe z'imifariso ndetse n'ibitanda by'imifariso, ibi byose akaba ari bimwe mu bifasha ababikoresha kumva baguwe neza.

Mu minsi yashize nibwo wasangaga ubwishingizi butangwa habanje kubaho guhura by' imbonankubone, ariko ubu ngubu bitewe na serivisi y'ikoranabuhanga, iyakure, ishobora kuba yakwifashishwa ku buryo ukeneye serivisi z'ubwishingizi, atagombye kujya kureba umukozi mu biro.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

BPR banki ni banki nyarwanda, aho usanga iguriza abantu ndetse ikanabikiriza, iyi ngiyi yaje kugira ngo ifashe kwegera abaturage, aho wasangaga rimwe na rimwe andi mabanki serivisi zabo zitari mu murongo mwiza.

Banki nyafurika mu rwego rwo korohereza abayigana, yashyizeho gahunda yo gutanga inguzanyo, mu byapa byinshi bakunda gukoresha harimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, aho mu ibara ry'icyatsi haba handitsemo ngo: "wayitunga nawe".

Ku mwero w'ibihingwa mu Rwanda inyanya imineke ibishyimbo amashaza n'ibindi byinshi uba usanga biboneka ku isoko ntiwakwirengagiza ko kandi ibinyomoro n'ifu y'amasaka n'iy'ibigori nabyo usanga biboneka kenshi.

Hari benshi bumvaga ko ibicuruzwa bishobora kuba ibyocuruzwa bikagenda neza, ari ibirimo ikawa, icyayi n'ibindi, gusa byaje kugaragara ko n'ubucuruzi bw'imyenda bukozwe neza, bushobora gutanga umusaruro ba nyiriwo bakabona inyungu bigendanye n'igishoro bashoye.

Mu isoko rishya hagaragara ibitunguru byinshi, amashaza, karoti, intoryi, seleri, pouivro n'ibindi. Harimo abagore bari gucuruza ibyo byose. Hirya hari indobo y'ubururu mu isoko risa naho rikiri rishya.

Isoko rya kijyambere kandi rigezweho ririmo rirarajyamo urujya n'uruza rw'abantu, abiganje cyane ni abagore, abagabo si benshi cyane, ugereranyije n'abagore barigana umugore uri imbere y'umugabo basa naho bateganye afite indobo, ndetseanafite agasakoshi ku rutugu.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Abantu bari mu isoko ry'imbuto higanjemo inyanya, ibitunguru, intoryi, karoti, n'imiteja imbere y'izo nyanya hari umwana usa n'uwigunze gusa wagira ngo arimo arabwirwa n'umubyeyi we amagambo akomeye.

Ku nyubako ndende hari abagabo bambaye ibisarubeti bibiri by'ubururu. Imbere yabo gato hari umugore ufite umufuka, asa n'ugiye guhaha. Hirya ukomeje urugendo, uhabona undi mugabo uri gusunika ingorofani.

Abarema isoko si abagore gusa nk'uko byari bimeze mu gihe cyashize, aho abagabo bumva ko badakwiye gufata uduhago ngo bajye guhaha, ariko kuri ubu kubera ubwuzuzanye buri wese asigaye ajyayo akaba yabikora bitewe n'ibyo yapanze kugura.

Mu ihuriro ry'imihanda ahazwi nka rompuwe, harimo imirongo igi inyuranye ifasha abagenzi n'ibinyabiziga kubisikana. Iyimirongo baba bagenzi cyangwa se abashoferi, bagomba kuyubahiriza buri umwe akagenda mu buryo bwe.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, usanga abakozi ba MTN, nabo barushaho kugenda bazamura urwego rwabo muri iryo koranabuhanga, ibi ngibi byerekanwa n'uko mu makiyosike menshi usanga hari abarimo bafite amakaramu bandika, hari serivisi barimo baraha abakiriya.

Abakozi bane ba emutiyene n'umuntu umwe uje gushaka serivisi, ku byapa bafite hariho amatelefone manini cyane agezweho, handitseho amagambo agira ati wikwisondeka, kanda akanyenyeri gatatu, kane gatanu, akanyenyeri zeru maze wihahire interineti nziza.

Akazi ko gukorera MTN kazwi nk'aba ejenti akenshi wasangaga ari akazi gasuzuguritse ariko bitewe n'urujya n'uruza rubagana usanga kuri ubu n'abasoje kaminuza bihutira kuba bashaka akazi muri iki kigo cy'itumanaho.

Kwishyura na momo peyi bikorwa mu nzira zitandukanye, ushobora kwegera umu ejenti akaba yagufasha, ukishyura neza cyangwa se nawe ukabyikorera kuri telefone, ibi ngibi byose bikorwa intangiriro ari ugukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani.

Kugira ngo utere imbere bisaba kuba wakoze aya mapikipiki atatu aragaragaza ko aba bantu bayatwara baba bari mu kazi, ibi bibahesha kubaho ndetse bigatuma n'imiryango y'abo igira ubuzima bwiza.

Ni umwari ufite imisatsi izinze nyweri, yambaye umupira w'icyatsi amanitse akaboko arafungura icyapa afite umupira wanditseho ijambo vuba, icyapa afungura nacyo cyanditseho ayo magambo.

Ni byo ni byiza gukoresha ikoranabuhanga uhaha, bisa n'aho byagabanyije ikiguzi umuntu yamaraga, ategereje ibintu by'agaciro karemereye cyane bizaturuka i mahanga, gusa kuri ubu, amamoto ndetse n'amakasike yayo ushobora kuyabona mu buryo bworoshye bigusanze iwawe bivuye i bwotamasimbi.

Mu muhanda w'amapave usa n'uwamaze kwangirika hari umumotari utwaye moto igaragaza ipine rimwe, ahetse agasanduku kanditseho ijambo vuba aka karasa n'icyatsi kibisi ndetse n'umupira yambaye ni ko usa..

Bigitangira hariho gahunda y'utunozasuku twambarwaga mu mutwe mbere y'uko abamotari bagira ingofero zabo bambara bwite. Gusa kuri ubu bitewe nuko kovide kuva yarangira abenshi bakomeje gukoresha udupfukamunwa. Hari n'abo usanga batwambaye ariko na none, inyuma ya ho bakarenzaho ingofero zabo.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo y'icyongereza agaragara nkaho ashishikariza abantu kugura bakoresheje ikoranabuhanga, harimo abantu batatu umugabo umwe n'abagore babiri.

Ubucuruzi bwinshi kuri ubu busigaye bukorerwa kuri murandasi kuko byagaragaye ko ari bwo bwinjiriza amafaranga menshi ababukora. Bikiza, abantu ntibumvaga neza ukuntu umuntu ashobora gutunga amafaranga atayafite mu ntoki, gusa uko bagenda basobanurirwa no mu Rwanda ubona ko byahagezeze. Nka Yubeyi yatangiye gukorera mu Rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu.

Amaduka menshi cyane yo kumugabane w'iburayi, by'umwihariko mu gihugu cy'uBudage, usanga iyo utumije ibintu, bakora ibishoboka byose ngo babikugezeho aho waba uri hose, batitaye kuko umupaka ureshya, byose biba bigomba kukugeraho kandi bikakugeraho uko bitumije.

Inzu ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma yaho hari ijambo rigira riti Kacyiru Kigali mu mujyi. Icyo bigusaba kugira ngo ubashe kubona iyi nzu ku kwezi, ni ukwishyura amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amadorari ya Amerika.

Inzu itageretse ariko ifite ubusitani bwiza, irimo indabo zifite uruyange rw'umutuku, hirya gato hari ibiti bibiri bya gerevriya, hejuru yayo kandi hari icyapa kivuga ngo, dore icyo usabwa kugira ubone inzu muri kigali, ni miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu ndende igeretse kabiri iriho amagambo y'icyongereza ndamutse nyashyize mu kinyarwanda baratubwira ngo icyo amafaranga angana na miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amanyarwanda ashobora kugura muri kigali iyo ni inzu iherereye Gisozi Kagugu, Kigali.

Inzu nziza ariko igaragara mu gisa n'umwijima, hejuru hari amagambo agira ati: iyi nzu iragurishwa, i Kibagabaga, i Kigali ku madolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, ibi mbikoze ngenekereje mu kinyarwanda.

Inzu zifite amabati akoze mu buryo bw'amategura ziragurishwa, ziherereye kigali Kanombe zikaba zishobora kuboneka kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda izi nzu ni izo guturamo.

Inyubako nziza ifite icyapa kigaragaza ko iherereye mu mujyi wa Kigali, Gacuriro Kigali, hari amagambo y'icyongereza ugenekereje mu kinyarwanda avuga ngo dore icyo usabwa kugira ubashe kubona aho gutura heza i Kigali, ni amadorari ibihumbi bitatu wishyura buri kwezi.

Inyubako ngufi ifite akadirisha gato inyuma, ifite umuryango mugari, ufite urugi rufite imiryango ibiri, ariko umuryango umwe ni wo ufunguye. Hirya yaho hariho akazizitiro. Iyo nzu iteye ikarabasasu. Hejuru y'umuryango hariho itara rimurika nijoro.

Inyubako nziza kandi igeretse iruhande rwayo hashashe amapave, hariho icyapa kigira kiti iyi nyubako irakodeshwa iherereye i Kigali, Kicukiro. Ibyumba bine, ifite ubwogero bune, wayibona ku bihumbi magana arindwi buri kwezi.

Inzu ifite amabati itegura, ikagira ibirahuri bya fime iruhande rwayo hari amagambo agira; ati Remera inzu ikodeshwa. Icyumba kimwe cyo kuraramo, icyumba kimwe cy'ubwiherero, hakaba harimo n'igikoni kigezweho imbere muri yo.

Inyubako nini ifite amakaro hejuru ifite parofu y'umweru, inzugi zijya gusa na kaki, hariho amagambo yanditse agira ati i Kigali Kanombe hari inzu igurishwa, igiciro ni miliyoni ijana ma mirongo itatu z'amanyarwanda.

Umugabo uhagaze ku makaro ari mu mirongo itatu, yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa. Nta musatsi mwinshi afite, ikindi afashe mu imifuka y'ipantaro ye.

Inyubako igeretse iragaragara nk'ikorerwamo ubucuruzi, igice cyo hasi harimo ibyapa bigaragaza ko bakora ibijyanye n'imyambaro, igice cya kabiri kiragaragaza ko harimo ibicuruzwa byibanda ku bikinisho by'abana.

Ubwo umuntu yumvaga u Rwanda rufite icyerekezo makumyabiri makumyabiri, buri wese yaribazaga ngo ese bizaba bihagaze bite ariko kuri ubu amatsiko yarashize bitewe n'uko inyubako zigeretse kenshi na zo abantu bagenda bazibona mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako ndende, hejuru yayo hari icyapa cya arayesesibi. Ugarutse kuri iyo nyubako kandi, uhasanga ibirahuri byijimye cyane. Ku buryo kubibona biri hagati y'inkuta z'amakake biteye isheja.

Umugabo n'umugore ni abaganga. Bari kwita ku murwayi ufite ikibazo. Yambaye igitenge ndetse anakenyeye ibindi. Abo baganga bombi bambaye mataburiya, imbere yabo hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Inyanya ni kimwe mu bihingwa bimaze iminsi bisa nahoa bidahari ariko aho byabonekeye zamaze kuboneka ku isoko. Ntabwo arizo zonyine kuko kuri ubu imineke nayo iharira ari myinshi niyo mpamvu usanga abacuruzi ndetse n'abaguzi babyo baratangiye kwishimira ko umusaruro wongeye kuba mwiza ndetse no kwisu kw'ibicu bikamanuka.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.